Umugabo wambaye ingofero y'ikaki, umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, ahetse icyuma cy'umuhondo, cyifashishwa mu gutera umuti mu bihingwa.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, ishati y'umweru, ipantaro y'ikaki afite telefone mu ntoki ndetse n'ikayi, ari kurebera undi wambaye umupira w'ubururu ahetse icyuma gitera umuti ibihingwa bitandukanye.

Umurima mugari cyane uhinzemo ibigori bikiri bitoya, harimo abantu bambaye imipira y'icyatsi, isa ndetse n'umugore munini cyane ubahagaze imbere, aho hari ameza ateretseho uducupa dutandukanye.

Umugabo wambaye igisurubeti cy'umweru na bote z'umukara, afite icyuma gitera umuti kiri mu ibara ry'umuhondo n'umukara, aho ari gutera ibihingwa bye abirinda ubusimba.

Umugabo wambaye agapira n'ipantaro y'umukara, ahetse icyuma kiri mu ibara ry'ubururu n'umuhondo, gitera umuti mu myaka bikarinda ubusimba.

Umugabo wambaye ingofero yashaje cyane, yambaye agashati k'icyatsi, ahetse icyuma gitera umuti, aho ari kugenda anyura mu gihingwa cye kugira ngo kizakure neza.

Umurima uhinzemo ibigori byinshi cyane, hari umugore wambaye ishati y'umweru n'ibitenge, ahetse icyuma cy'umuti, ari kugenda abitera ngo bizere neza yabirenze ubusimba.

Ikiyaga kirimo amazi menshi, aho hari abantu bafite indobo bari kugenda badaha. Hari kandi ubwato bwifashishwa mu kuva hamwe bajya ahandi.

Ikiyaga kinini kirimo amazi atemba, hari abagabo batanu bamwe bambaye ibisurubeti by'ikake, aho bari kudaha amazi ndetse iruhande rwabo hari ubwato.

Igishanga kirimo ibidendezi by'amazi, ageze hejuru, hari umugore wambaye ikanzu y'igitenge, ufite ibasi y'umutuku, uri kudahamo amazi ndetse ari kumwe n'abandi bantu, batanu.

Umugabo wambaye isengeri y'umweru n'ipantaro y'umukara amaze kuroba ifi nini yayiteretse ku munzani kugira ngo arebe ibiro ifite abone uko ayigurisha.

Icyobo kirimo amazi menshi harimo abantu benshi bari kuroba bakoresheje urushundura, hirya yabo hari ibyatsi byinshi wagaburira amatungo.

Icyuzi kinini kirimo amazi, hari abantu biganjemo abagore aho bafite indobani bari kugenda bashyiramo amafi, akaba ari kimwe mu bintu bikenerwa n'abantu benshi.

Umurima mugari cyane uhinzemo icyayi, hari abantu bafite udutebo bari kugenda bagisoromeramo, aho gitunganywa kikoherezwa mu mahanga, kigatanga amafaranga menshi.

Umurima uherereye mu gishanga, ahahinze umuceri n'ibindi bihingwa bitandukanye, hari umugabo uri kumwe n'abagore babiri baje kureba uko imyaka yabo imeze.

Umurima mugari uhinzemo icyayi aho harimo abakozi benshi bari kugikorera ndetse n'abagisarura kugira ngo kijyanwe ku ruganda gitunganywe maze kibashe gutanga amafaranga ku Gihugu ndetse n'abaturage.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'ibitenge ndetse n'ishapule mu ijosi, ari mu murima w'ikawa aho ari kugenda asarura izimaze kwera ngo zibyazwe umusaruro.

Icyumba kirimo inkoku nyinshi cyane zikiri ntoya, aho zikurira ibyumweru bibiri kuko ziba zitaweho, harimo amatara aziboneshereza ndetse n'amazi yo kunywa.

Uducupa twinshi dufite imipfundikizo y'umweru, ndetse n'ibikarito birimo imiti y'amatungo. Aho buri mworozi wese ashishikarizwa kugana amaduka acuruza iyo miti.

inka nyinshi ziri hamwe mu rupangu, aho byorohera abazitaho kugira ngo zibashe gutanga umusaruro, yaba uw'amata ndetse n'ifumbire.

Inkoko nyinshi cyane ziri hamwe, aho bazihahera ibiryo ndetse n'amazi, zikabasha gutanga umusaruro w'amagi ndetse n'inyama zihendutse.

Ikibuga kirimo ibyatsi byinshi n'akayira gatoya kanyurwamo n'abanyamaguru, harimo abakecuru babiri bafite amasuka bagiye guhinga ibihingwa bitandukanye.

Umurima wahuriyemo abantu b'ingeri zitandukanye, aho bawuhinze bakaba bawurangije, hirya yabo hari urutoki rumaze gukora, hari umugabo hagati yabo uri kubaganiriza ibijyanye n'ubuhinzi bwa kijyambere.

Umurima mugari cyane, urimo igihingwa cy'ibigori, aho byifashishwa mu gutanga igikoma cyangwa kikaribwa ari kibisi, hahagazemo umugabo wambaye umupira w'ubururu.

Igiti kirimo voka nyinshi, imwe yagize uburwayi. Ni byiza ko bagura imiti bakayitera kugira ngo itangire gutanga, umusaruro mwiza.

Ahantu habereye igikorwa rusange kizwi nk'umuganda. Hari abantu benshi aho umugabo umwe yapfukamye ari gutera igiti ngo haboneke imyuka myiza.

Ubusitani bugari aho hari abantu benshi bari gutera ibiti, bambaye imipira y'icyatsi, hakurya haparitse imodoka ifite irange ry'umukara ndetse n'amazu ari mu bwoko butandukanye.

Umurima urimo ibiti bikiri bitoya, aho hari abantu b'abagabo, bari guteramo ibindi kugira ngo byose bizakurire rimwe, maze bitange umusaruro.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, yambaye udupfukantoki ari gutera ibiti mu murima usanzwe urimo ibyatsi.

Umurima uhinzemo ibintu bimeze nk'ibyatsi, hakurya hari urutoki rwa kijyambere ndetse n'ibiti birebire, kuri ubu imirima yarahenze ku buryo itapfa kwigonderwa n'uwo ari we wese.

Mu kibuga kinini kirimo ibyatsi byinshi, hari inka ebyiri ziri kurisha kugira ngo zize gutanga umusaruro urimo n'umukamo.

Ibirayi byinshi biri hamwe, aho ari ibiribwa bikunzwe n'abantu batari bakeya hano mu gihugu cy'u Rwanda, bikaba bihingwa cyane cyane mu Karere ka Musanze.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye nk'insina zivaho ibitoki, bikaribwa cyangwa bigakorwamo inzoga ndetse n'imyumbati, ivamo ifu y'ubugari, igatekwa ikaribwa n'abantu.

Umuhanda w'ibitaka uri ahantu mu giturage hahinze urutoki ndetse n'amasaka, hirya hari utuzu dutoya twubakishije ibyondo.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye. Higanjemo ikigori, aho gifite umusaruro ku gihugu ndetse no hanze yacyo. Iyo kivuyemo igikoma kirinda abana kurwara bwake.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye nk'amabiswi, amapampex, ibicupa by'mavuta, amabiswi n'ibindi itandukanye aho waza ukihahira.

Umurima urimo ibyatsi ndetse n'ibiti bifite uturabo tw'umuhondo, kuri ubu isambu ihagaze amafaranga menshi aho yagize agaciro.

Umurima urimo ibyatsi ndetse n'igiti cy'imyumbati, aho havaho amababi agatekwa, ibyo hasi na byo bigatekwa cyangwa bikajyanwa ku isoko bikavamo amafaranga.

Uurima wahinzemo urutoki rwinshi aho rukorwamo inzoga cyangwa se bikajyanwa ku isoko, bakabona amafaranga yo kugura ibindi bintu bakeneye, bityo bigatuma biteza imbere.

uUmurima uhinzemo ibishyimbo bikiri kumera, aho iyo byeze bitanga umusaruro ugaragara, bikaba biribwa, bikagurishwa, bigakorwamo n'amafaranga.

Umurima uhinzemo ibigori byinshi cyane kandi bikaba bigiye kwera hahagazemo umugore wambaye igitenge, akaba yiteze n'ikindi aho ari kubyitaho kugira ngo bizatange umusaruro utubutse.

Umurima uhinzemo, igihingwa kizwi nk'imyumbati. Aho ikoreshwa mu bintu bitandukanye, nko kuyirya, kushishamo ifu, ugatekamo ubugari.

Imbuga nini irimo ibyatsi bitoshye ndetse n'ibiti byarandaranze, hari kurishamo inka nyinshi izifite amabara y'umweru ndetse n'ay'umukara kugira ngo zitahe zihaze.

Ishyamba ririmo ibyatsi byinshi biranda hasi harimo inka ziri kurisha ndetse hari ibiti byinshi bigiye bifite amashami maremare cyane.

Igishanga kirimo amazi menshi atemba, ahakororerwa amafi ndetse n'ibindi binyabuzima biba mu mazi. Hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti bigiye bicucitse ahari amatarasi.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi, hakaba hari kurishamo inka eshatu kugira ngo zize gutaha zihaze maze zitange umukamo ushimishije ku borozi.

Ishyamba ririmo ibyatsi byinshi cyane ndetse n'ibiti birebire, hahagazemo abasirikare ndetse n'abadaso, bambaye imyenda y'akazi, aho bari gucunga umutekano.

Umurima uteyemo igihingwa cy'amasaka, aho ari ingirakamaro cyane mu muryango Nyarwanda, gikurwamo igikoma gihabwa abana n'abakuru ndetse n'ikigage.

Umugabo wambaye isurubeti y'icyatsi n'isengeri y'umweru, ateruye igikarito cy'ubururu kirimo pavuro ziri mu ibara ry'umutuku, aho ari nyinshi.

Ibiti bibiri by'ipapayi, bifite imbuto nyinshi, aho zifashishwa n'abatari bake kugira ngo bagire ubuzima bwiza, inyuma yacyo hari inyubako.

Umugabo wambaye akagofero k'umukara, ijire iri mumabara y'umukara ikigina na orange, ari gusoroma imbuto ku giti cy'amashami maremare aho zifashishwa ahantu hose.

Ahantu hagemekwa imbuto z'ubwoko bwose, harimo umugabo wambaye isurubeti y'icyatsi n'ingofero y'umweru, aho ari we uzitaho, akaziha n'abaje kuzigura.

Inyanya ndetse n'ibigori biri hamwe, aho byose ari ibiribwa bikenerwa n'abantu benshi, yaba bitetse cyangwa ibigori ukabisheshamo igikoma.

Umugore witeze igitambaro wambaye agashati kageze hagati mu maboko ndetse ukenyeye igitenge cy'umutuku, afite isuka ya majagu ari kubagarira imyaka.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, nk'ibitunguru, pavuro, iz'umutuku niz'icyatsi, kurujeti ndetse n'inyanya, ubishaka wahagana.

Umurima mugari cyane utaheza amaso, hahinzemo amatunda agiye ari ku biti hahagazemo abagabo babiri, umwe wambaye ikote ry'umukara n'amabara y'umutuku ndetse n'umupira w'ubururu.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru, umupira w'icyatsi ipantaro y'umukara na bote, ari mu murima uhinzemo ibigori, aho ari kubyuhira ngo bizakure neza.

Umurima uhinzemo igihingwa k'ibigori aho hahagazemo abantu benshi bafite impombo yuhira mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi ikageza amazi ahantu henshi mu gihe gito.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, hahagazemo umugabo wambaye ingofero y'ubururu n'umweru umupira, ipantaro y'ikoboyi afite umupira mu ntoki ari kuhira.

Igishanga kirimo igihingwa bita ibigori aho bikiri bitoya. Bari kuhira bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga buminjagira amazi ahantu hose.

Umurima mugari cyane ugiye uciyemo udupande, harimo abagabo, batatu, bari kuhira imbuto zirimo, kugira ngo zizakure neza, kuko ari mugihe k'izuba.

Igishanga giteyemo imyaka y'ubwoko butandukanye aho harimo abantu benshi ndetse n'imashini zifashishwa mu kuhira igihe cy'izuba mu gihe cy'ikoranabuhanga.

Umurima uhinzemo ibihingwa by'icyatsi, hari imashini yabugenewe yifashishwa mu kuhira, mu buryo bworoshye kandi ikabikora neza kurusha icyuma cyuhira.

Umurima uhinzemo ibintu byinshi hari umugore uhetse umwana yambaye ijipo y'ikigina, afite umupira ari kugenda yuhiza kugira ngo bikure neza.

Imisozi miremire iteyeho ibiti, urubingo, ibihingwa by'amoko atandukanye ndetse n'abantu bagiye bahubaka. Leta igira inama, abaturage yo guca amaterasi kugira ngo birinde imyuzure.

udusozi tugiye duteganye aho baciyemo amaterasi kugira ngo afate amazi, bitazatera imyuzure akaba yakwangiza ibihingwa biteyemo mu buryo bwa kijyambere.

Ibibwana by'ingurube bikiri bitoya biri konka nyina kugira bibashe gukura neza kuko bitararya kandi bikaba bikeneye gukomeza kubaho.

Ikiraro kirimo inka ebyiri cyubatse mu buryo bwa kijyambere, aho gikoteye. Imbere hari aho bashyira ubwatsi kugira ngo zibashe kurya.

Ikiraro kirimo inka cyubakishije ibiti bikeya ku buryo ishobora gutoroka ikagenda, imbere yayo hari ubwatsi bw'urubingo buri mu ibara ry'icyatsi.

Icyumba kigari cyororerwamo inkoko zifite amabara y'umukara ndetse n'umweru aho n'iz'ikigina zirimo, harimo amatara aziboneshereza kugira ngo zikomeze kumererwa neza.

Icyumba cyororerwamo inkoko nyinshi cyane aho bazishyiriramo ibiryo, amatara aziboneshereza ndetse n'amazi maze zigakura neza zigatanga umusaruro.

Inka iri mu kiraro cyabugenewe aho hashashemo ibyatsi kugira ngo iryame isinzire, ni imwe mu yifite akamaro aho itanga amata, ifumbire ndetse ukaba wayigurisha ugakuramo amafaranga.

Icyumba cyororerwamo inkoko aho bazishyiriramo ibiryo, amazi ndetse n'amatara aziboneshereza, maze zigatanga umusaruro zari zitezweho.

Inka ifite ibara rya kaki iri mu kiraro, aho iri kurisha ubwatsi bw'urubingo, ikabasha gutanga umukamo ndetse n'ifumbire yifashishwa mu bikorwa bitandukanye.

Umurima urimo ihene nyinshi ndetse n'ibyatsi ziri kurisha, hakurya yazo hari imbaga y'abantu benshi, zikoreshwa mu bintu nko kuziteka ndetse wanazigurisha ukabona amafaranga.

Ikibuga kinini gikusanyirizwamo inka nyinshi, abavuzi bazo bazwi nka ba veterineri bakazihasanga, bakaziha imiti igiye itandukanye kugira ngo zikire.

Ahantu hari imbuga ikoteyeye, bashyizemo inka nyinshi zifite amahembe maremare, harimo abagabo n'abagore, bashinzwe kureberera aya matungo kugira ngo atagira ikibazo na kimwe.

Ni ifamu y'inka aho zose ziteranyirizwa kugira ngo zitabweho n'abaganga bazo bazivura indwara zigiye zitandukanye, hakurya hari ibiti ndetse n'ibyatsi by'ubwoko bwose.

Umugabo wambaye ishati imeze nk'icyatsi, ingofero y'umutuku, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto zifunze, ahagaze ahororerwa inka aho hari igicuba bakamiramo amata yazo.

Umuhanda urimo ibitaka hirya no hakuno hose hari imirima irimo ibyatsi, inka z'Inyambo ziratambuka zijya kurisha kugira ngo zize gutanga umukamo mwiza.

Ikiraro k'inka aho imbere yayo hari ubwatsi irikurya, bayiteye iherena ry'umuhondo kugira ngo izabashe kubyara yororoke.

Umugore wambaye itaburiya, yiteze agatambaro k'umukara, ari kwita ku nka azivura kugira ngo zongere zimere neza, zikamwe, izindi zibyare maze zibashe gutanga umusaruro.

Imbuga irimo ibitaka hari inkoko nyinshi zifite amabara y'umutuku, ndetse na kaki ni ibinyabuzima bikoreshwa ahantu henshi yaba kubitekamo inyama, kurya amagi yabyo n'ibindi.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge n'agakomo ku gaboko kariho ishusho ya Bikiramariya, mu biganza bye afitemo amashaza yuzuye ndetse n'intara iriho andi menshi ari mu ibara ry'umweru.

Ameza ateretseho isahane nziza, ifite ibara ry'umweru, harimo ibishyimbo biri mu mabara atandukanye, aho wabiteka ukagaburira umuryango wawe.

Imbuga irimo itaka, hari shitingi iriho ibigori byinshi cyane, aho byifashishwa bikurwamo kawunga ndetse n'ifu y'igikoma.

Imifuka iterekeranyije irimo imbuto zigiye zitandukanye, z'ibishyimbo, ubunyobwa, amashaza, tungurusumu n'ibindi, aho bihingwa bikazatanga umusaruro utubutse nyuma.

Igipangu gishyirwamo inka ziri hamwe kugira ngo zibashe kwitabwaho n'abantu bazivura hari kandi imbuga irimo ibyatsi byinshi n'ibiti.

Inzu isize irange ry'umuhondo yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya y'ubururu, mu mbuga harimo imbwa nyinshi zigiye zitandukanye ndetse n'ibisorori.

Ikibuga kigari kirimo ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti, hari uruzitiro ruriho irangi ry'icyatsi, harimo inka nyinshi zifite amahembe maremare, hari kandi abaganga b'inka bitwa abaveterineri.

Igipangu bashyiramo inka kugira ngo babashe kuzitaho ziri hamwe, niba ari izirwaye bazivure, niba ari zo batera inshinge bazitere, aho kandi haba hari n'abaganga bashinzwe kuzitaho.

Uruzitiro bashyiramo inka nyinshi cyane iyo bashaka kuzibangurira cyangwa hari ibindi bikorwa, hari umugabo wambaye isarubeti y'umweru ndetse n'ubururu uzitaho.

Inka iri mu gipangu, aho yarwaye hakaza umuntu uyivura, akaba ari kuyitera urushinge, ni umukobwa wambaye igisurureti cy'ubururu.

Umuforomokazi w'umukobwa wambaye imyenda y'akazi n'agapfukamunwa, imbere ye hari ahantu hubakishije amakaro, hateretse igicupa kinini ari gukoraho yambaye udupfukantoki.

Ikibuga kinini cyane cyubakiyemo uruzitiro bashyiramo inka, hari umuganga w'amatungo wambaye isarubeti y'ubururu, ingofero y'umweru ndetse n'udupfukantoki kugira ngo ayisuzume.

Inkende ni bimwe mu bisimba bikundwa n'abantu benshi kubera ubuhanga bwayo bwo kurira ibiti, aho inkuru iri gutora inda mu ntoya, ndetse akandi gato kakaba karyamye hasi.

Ahantu heza cyane hari amazi atemba ndetse n'inka iri kurisha ibyatsi biri ku nkengero, kugira ngo ize gutanga umusaruro mwiza.